Mu Rwanda tugira ibihingwa bitandukanye ngengabukungu, harimo ikawa ndetse n'icyayi, ikawa ifite akamaro kanini mu iterambere ry'Abanyarwanda ndetse n'igihugu kuko idufasha kubona amadovize.

Mu Rwanda tugira inyamaswa zo mu gasozi zitandukanye harimo ingwe, urusamagwe n'ibindi. Ibyo byose bituma bikurura ba mukerarugendo maze amadovize akiyongera mu gihugu, iterambere rikagera ku baturarwanda bose.

Ingagi n'inkende ni zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo, maze igihugu cyacu kigabona amafaranga yo kwiteza imbere.